Umuyobozi uri imbere y'abantu. afashe inyakiramajwi izwi nka mikorofone, arimo arabasobanurira, ahagararanye n'umudamu wambaye amarinete n'ingofero mu mutwe. Umugabo yambaye isaha ku kuboko n'impeta.

Abantu bari mu nama, imbere yabo hateretse amazi y'inyange, bishimye, bari guseka, batangaye, banezerewe cyane ndetse bizihiwe ibiganiro n'inyunganizi bari gutanga, ni abamama babiri n'umugabo umwe, babiri bambaye rinete, undi ntazo yambaye.

Aha ni mu cyumba cy'inama. Ni ku murenge wa kigarama mu karere ka kicukiro. Hicaye nk'abantu bakurikiye n'imbere yabo hahagaze umwana w'umukobwa, ufite mikoro mu ntoki ari kubabwira, nabo bamukurikiye.

Abaturage bicaye hanze ahantu hagari, bicaye nk'abari mu nama, y'umudugudu inama y'umudugudu ikunze kuba kuwa kabiri ku gicamunsi guhera saa cyenda kugeza nimugoroba, abaturage biganjemo ababyeyi ndetse bari kumwe n'abana.

Abagabo bari mu cyumba cy'inama, bitonze cyane bakurikiye neza ibyo barimo, imbere yabo hateretse agacupa k'amazi, kuri buri umwe umwe, bicaye ku ntebe nziza cyane, n'ameza afite amabara y'umutuku.

Iki ni icyumba cy'inama. Hicayemo abantu bari mu nama cyangwa se mu biganiro. Bateze amatwi kandi barakurikiye cyane. Hateretsemo amacupa y'amazi, iruhande rwa buri muntu.

Abantu bicaye bakurikiye bahanze amaso imbere, umugabo umwe ku ruhande ari kureba muri telefone ye, arahuze cyane. Uwambaye amarinete ari kureba imbere yitonze yitegereza ateze amatwi.

Ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku burwayi bwo mu mutwe: tanashino meto herifu deyi. Byatewe inkunga n'ikigo cy'abanyamerika kita; gitsura amajyambere, abantu benshi bicaye bari kwifotoza kuri uwo munsi, bishimye kandi banezerewe.

Aha ni mu cyumba cy'inama abantu barimo bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa cyangwa se birashoboka ko haba no mu biganiro nyungurana bitekerezo, ahantu haracyeye kandi hasa neza hafite isuku rwose.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama. Bambaye neza, amakote na karavati, n'umudamu uteze, na we wambaye ikote ryiza cyane. Imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi y'inyange. Bari mu nama, bakurikiye ibiganiro.

Aba ni abantu bicaye mu nzu basa n'abari mu nama cyangwa se amahugurwa cyangwa ibiganiro cyangwa se bategereje impuguro z'undi muntu bicaye ku meza imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi hakaba hariho n'indabyo zitatse neza cyane.

Abantu bambaye neza cyane bahagaze ku mirongo bifotoza. Akenshi abantu bifotoza gutya iyo barangije inama, ibirori cyangwa se amahugurwa.

Urubuga rw'irembo rwafunguye serivisi nshya aho ukoresha imashini cyangwa telefone ukaba washyiraho igihe wasezeraniye mu murenge kugira ngo uhabwe icyemezo cy'uko washyingiwe.

Umugabo ufashe telefone mu ntoki, telefone ifite amabara y'umweru, ayitegereza cyane nk'uri kuyisoma cyangwa se ufite ibintu ari gukora muri telefone, yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru n'ingofero y'umukara ikozwe mu budodo.

Umunara: umunara muremure cyane iminara yifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho, ikoreshwa ishyirwa ku musozi hejuru ikifashishwa n'amaradiyo, amateleviziyo, n'ibigo bitandukanye by'itumanaho mu gusakaza amakuru cyangwa se amashusho.

Ipoto y'insinga z'amashanyarazi, ishinze mu mazu y'amakadasiteri ameze neza n'ibiti by'imikindo bikikije ku mazu, ipoto insinga z'amashanyarazi ijyana umuriro mu ngo z'abaturage.

Izi ni insinga z'umuriro w'amashanyarazi zinyujijwe hejuru y'inzu n'urundi rutsinda rumwe rufatiye kunzu rujyana umuriro muri Cash power kuri iyo nzu mubusanzwe ubundi si byiza kunyura umuriro w'amashanyarazi muri ubu buryo kuko bishobora guteza ibyago by' impanuka.

Iyi ni ipoto y'umuriro w'amashanyarazi igaragaza igikoresho giteretseho kitwa tiransifo mu ururimi rw'igifaransa, iyi tiransifo niyo ikoreshwa mu kugabanya ubukana bw'umuriro w'amashanyarazi buyishira ku kigero ushobora gukoreshwa mu ngo z'abaturage.

Itara ryo ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi zambukiranya n'umukindo wo ku muhanda, iyi foto iragaragaza kandi ibendera ry'u Rwanda mu mabara yaryo atatu ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Ipoto nini cyane kandi ndende yifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, uwuvana mu bice bya kure ujyana ahandi hantu kure, hagaragara n'izindi nsinga zinyuze hejuru y'amazu y'abantu zijyanye umuriro mu mazu y'abaturage.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, munsi yayo hariho ibiti bigufi. Ubusanzwe si byiza ko munsi y'insinga z'amashanyarazi hakora ibiti ngo bibe birebire bigere ku nsinga, kuko biba bishobora guteza ibyago by'inkongi z'umuriro n'ibindi bituruka ku muriro w'amashanyarazi.

Ifoto y'umuriro w'amashanyarazi ishinze inyuma y'igipangu iyi foto niyi giti. Ku gipangu hagaragara inzira' cyangwa se mu muhanda winjira mu gipangu izi poto zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo mu baturage.

Ibi ni ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Bikoreshwa n'ibigo by'igihugu bishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, ndetse no hirya no hino mu gihugu.

Ipoto ndende igaragaza itara ryo ku muhanda, n'indi poto ndende y'umuriro w'amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi hariho n'insinga, zerekeza mu byerekezo bitandukanye, inyuma ya riri mu ishyamba ndetse n'ikigunda.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iri hagati mu mazu, muri karityiye irimo amazu aciriritse, insinga z'amashanyarazi zifatiye ku ipoto zijyana umuriro ku mazu atandukanye mu mudugudu.

Ipoto iriho itara ryo ku muhanda. Ni amatara yo ku muhanda amurikira umuhanda mu masaha y'ijoro. Ubusanzwe amatara yo ku muhanda bayacana guhera saa kumi n'imwe na mirongo itanu z'umugoroba, kugeza saa kumi n'imwe na mirongo itanu za mugitondo.

Umuhanda wa kaburimbo abagenzi b'abanyamaguru bari kugenda, abagabo babiri bahagaze baganira, umwe yegamye kugipangu cy'inzu. Amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'itara ryo kumuhanda.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi. Izi nsinga zicamo umuriro w'amashanyarazi akenshi umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mazi. Uva ku rugomero rw'amazi ujya mu baturage umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu matara amafirigo n'ibindi bitandukanye.

Aha ni munzu aho abaturage bicaye bigaragara ko bategereje batonze umurongo bashaka serivise kandi hariho idirisha ryanditseho nimero cumi niya kabiri na cumi na gatatu, hahagazeho abagabo babiri bigaragara ko bari kwaka serivise aha hantu.

Umugabo wirabura cyane ari kumwenyura ari guseka, afite amenyo y'umweru meza cyane. Yambaye ikote ritukura ririho ibara ry'umukara, yambaye n'agapira k'umweru.

Umugabo uhuje ibiganza nk'uri gukoma amashyi, yambaye isaha ku kuboko, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, yambaye amarinete, bigaragara yuko ari gukoma amashyi kandi yiyumvira.

Aba ni abagororwa bambaye imyenda y'iroza, bicaye ku mirongo imbere hari abandi batatu bahagaze. Iyi imyenda yambarwa n'abantu bari mu igororero cyangwa se bafunze, bakatiwe cyangwa batarakatirwa ariko bari gukurikiranwa mu nkiko cyangwa se bahawe ibihano byo gufungwa.

Iyi ni sare y'inama cyangwa se uruganiriro umugabo umwe ahagaze mu bandi areba imbere ameze nk'uwisobanura atanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Imbere umukurikiye uyoboye ibiganiro cyangwa inama nawe we amuteze amatwi, abandi bose bigaragara ko bakurikiye.

Igipangu n'amarembo hariho urugi runini ni ku igororero bya Huye. Igororero ubundi niryo ryahoze ryitwa gereza. Gereza n'igorororero habamo abantu bakatiwe cyangwa bafunze by'agateganyo bahamijwe cyangwa batarahamwa n'ibyaha mu nkiko.

Umugabo wirabura cyane, ufite umusatsi mwinshi nta bwanwa afite yambaye imyenda itukura, nta ngofero yambaye.

Kizimyamwoto imanitse ku gikuta ifite ibara ry'umutuku. Umugozi wayo uzihurijwe kintu iyo habaye inkongi y'umuriro iyi ikizimyamwoto igira ibinyabutabire bibasha kuzimyaro inkongi z'umuriro cyangwa ibiza ibyo aribyo byose bitewe n'umuriro.

Icyapa cya mpande enye, umuzenguruko wumukara, ubuso bw'umuhondo, ibirango by'umukara, kigaragaza ko ushobora gukomeza imbere cyangwa ugakata k'uruhande rw'ibumoso.

Iyi ni kizimyamwoto. Iri mu icupa rifite ibara ritukura. Ikoreshwa kenshi iyo habonetse inkongi z'umuriro, cyangwa se ibindi biza biturutse ku muriro. Iyi yifashishwa mu kuzimya umuriro mu mazu atandukanye, cyangwa se mu nyubako zitandukanye, n'ahandi hatandukanye.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Mu muhanda wa kaburimbo hakurya y'umuhanda hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri gutambuka agararanye n'umugabo bari kugendana basatira ipikipiki, ihagaze imbere yabo inyuma yabo hari inzu nini cyane nziza.

Kizimyamwoto, kizimyawoto iri mu mabara y'umutuku. Kizimyamwoto izengurukijweho umugozi cyangwa se umupira w'umutuku wifashishwa mu gukwirakwiza ibinyabutabire igihe habaye inkongi y'umuriro. Ubundi inyubako yose ihurirwamo n'abantu benshi cyangwa ibamo abantu benshi ikwiriye kugira kizimyamwoto.

Abarwanashyaka b'ishyaka efuperi bafite amabendera mu ntoki barishimye cyane bigaragara ko bari kwamamaza umukandida wabo n'ishya ryabo, bafite amabendera afite amabara ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Iyi ni ifoto y'umugabo ufite uruhara akaba yambaye amadarubindi cyangwa se rinete akaba afite ubwanwa, yambaye ikoti ryiza cyane n'ishati y'umweru na karuvati ifunze neza.

Umugabo w'ibigango, ufashe inyakiramajwi mu ntoki izwi nka mikiro fone. Yambaye ishati nziza, yambaye linete cyangwa se amadarubindi, uri kuvuga ijambo, atanga ubutumwa imbere y'abantu.

Amabendera atandukanye amabendera y'imiryango cyangwa se ibihugu bitandukanye, ubusanzwe amabendera aba azamuye kugera hejuru ariko mu bihe bimwe na bimwe bitandukanye nko mu bihe by'icyunamo n'ibindi bihe bidasanzwe amabendera arurutswa.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbere y'imbaga nyamwinshi imukurikiranye. Ari kubaganiriza yakira ibitekerezo, ndetse n'ibibazo by'abaturage. Abaturage bahura na Perezida wa Repubulika mu gihe gike gishoboka. Ariko iyo bahuye usanga bizihiwe. Umukuru w'igihugu na we arizihiwe.

Uyu ni umugabo uri mu kigero cy'abakuze bashesha akanguhe yambaye amataratara cyangwa se rinete yambaye ishati y'umweru na karuvati ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru ifunze neza cyane.

Umugabo wirabura, wambaye ikoti ryiza ry'umukara, na karuvati nziza ifunze neza, n'ishati y'ibara ry'umweru. Arareba imbere, kandi arakeye rwose yambaye neza.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ahagaze imbere y'abantu benshi cyane, imbere y'ahari mikoro avugiraho, bigaragara yuko afashe ijambo ari kugeza ku mbaga nyamwinshi yateraniye ahantu hanini kandi hagutse.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.

Abantu bari kubyina. Bisize amarangi. Amarangi bisize ni irangi ry'ubururu bw'ikirere, ira, ibara ry'umweru, n'ibara ritukura. Banditseho n'inyuguti ya P mu gatuza. Biragaragara ko bari kubyina, bizihiwe cyane.

Mu masaha y'ijoro, ahagaragara amagare n'abanyonzi bayakoresha, hariho n'abagenzi bagenda n,ijoro amatara yo ku muhanda araka ariko burije ntabwo habona neza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini y'ikamyo itwara imizigo iremereye harimo umu motari utwaye umugenzi kuri moto bombi bambaye ingofero zabugenewe zizwi nka caske.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto ya lifani iri kugenda, abanyamaguru ku ruhande rw'umuhanda. Iyi moto ya lifani, ubusanzwe itwarwa n'umumotari ufite kategori ya "A" mu gutwara ibinyabiziga.

Mu muhanda wa kaburimbo. Ipikipiki n'imodoka y'ivatiri ziri kuwunyuramo. Umuhanda ufite isuku. Hateyeho imikindo myiza kandi itoshye. Harimo n'umuntu uri gukorera iyo mikindo amasuku.

Ifoto igaragaza mu modoka iri mu muhanda akaba imodoka nini itwara imizigo cyangwa se ibintu bitandukanye. Iyi foto iracuritse, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti bikeya.

Umuhanda mwiza utari uwa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire bifite indabo z'umutuku. Iruhande rw'umuhanda hari abamotari baparitse za moto zabo bategereje abagenzi.

Umumotari uri mu muhanda agenda, nta mugenzi atwaye, yambaye ingofero yabugenewe izwi nka kasike, ingofero igabanya ibyago byo gukomereka mu mutwe, mu gihe haba habaye impanuka.

Imodoka ziri mu muhanda umuhanda umuhanda ugendwa mu byerekezo bibiri. Imodoka ziri kubisikana n'abamotari, imodoka imwe yo mu mabara y'umweru n'ibara ry'umuhondo yanditseho yego kabuzi bivuze ko iyo itwara abagenzi.

Imodoka iri mu muhanda y'ikamyo ifite amabara y'ubururu n'umweru, ku muhanda hakaba hariho ibiti birebire cyane, hariho n'amatara yo ku muhanda, hakaba hariho n'abagenzi b'abanyamaguru uri kugenda abisikana n'imodoka.

Aha ni mu muhanda igenda itwara itwaye imizigo n'amapikipiki atwaye abagenzi, abagenzi bose bari ku mapikipiki bambaye ingofero zabugenewe zirinda zikanagabanya ibyago byo gukomereka umutwe hagaragara n'umugenzi urimo agenda abisikana n'ibi binyabiziga.

Abantu bicaye muri gare abandi bagenda binjira mu modoka zihagaze murirongo hari amabisi manini cyane ariho amabara y'umweru n'amabara y'ubururu yanditseho beka.

Iyi ni moto ya rifani iri mu muhanda igenda, ubundi iyi moto itwara imizigo, uyitwaye yambara kasike abari umumotari nawe hakurya y'umuhanda hari abandi bamotari bari kugenda bigaragara ko ari ku manywa kandi hakeye cyane.

Imodoka z'amabisi, ziri muri gare, abagenzi bategeramo imodoka zerekeza mu byerekezo bitandukanye. Ubundi ubusanzwe, aha ni ho imodoka zihagarara mu gihe zitegereje gutwara abagenzi cyangwa se abagenzi bakahategerereza mu gihe imodoka zitaraboneka.

Imodoka ya kwasiteri iri mumuhanda iri kubisikana nimodoka yikamyo nini cyane ya kontineri ipakira imizigo , iyi kwasiteri yo itwarira abantu muburyo bwa rusange.

Aha ni mu muhanda. Harimo imodoka nini ya bisi, itwarira abantu hamwe na ritiko. Hariho n'umugenzi utwaye umuzigo uremereye cyane. Arimo aragenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka ya bisi. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Iki ni ikinyamitende cyangwa ikinkinyabiziga cy'ibiziga bitatu, bakunze kwita moto ya rifani gitwara imizigo itandukanye ugitwaye yambara kasike n'ugitwaye ubungubu arayambaye kiri mu mabara y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo n'umuhanda w'abanyamaguru mwiza cyane uteye imbere usize amarangi y'icyatsi n'umweru. Iyi mihanda iboneka ahantu hakeya mu gihugu.

Iki ni icyapa cyanditseho bus stop, gishushanyijeho n'imodoka ya bisi, bivuze ko ari icyapa kivuga aho imodoka za bisi zihagarara. Iki cyapa kiri mu mabara ry'umweru ndetse inyuguti zanditseho zandikishije mu mabara y'umukara.

Ibimenyetso byo ku muhanda bizwi nka fe ruje mu rurimi rw'igifaransa. Bicanye mu ibara, mu mabara atandukanye biragaragaza ko abanyamaguru bemerewe gutambuka.

Aha ni ku ipaji imwe yo mu igazeti ya Leta nimero supesiyare yo kuwa makumyabiri z' Ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani, ahavuga ingingo zitandukanye zerekeranye no kurwanya ruswa. Harimo ugushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ruswa, gukorera mumucyo, kugaragariza raporo abo igenewe n'izindi.

Icyapa cyo ku muhanda, iki cyapa gifite kiri mu mabara y'umweru, gifite umuzenguruko w'ibara ritukura, hakabamo akarongo mu mweru k'umukara gasozwa n'umutuku, gisobanura ko umuhanda imbere urangira.

Iki ni icyapa, iki cyapa kikaba kigaragaza ibyerekezo by'imihanda ibiri itandukanye. Ku muhanda umwe ni ka eni gatatu ave, undi muhanda ni ka eni mirongo itatu esiti.

Uyu ni umuhanda uriho icyapa gisobanura ko imodoka zihagarara n'imodoka zitwarira abantu hamwe iki cyapa kikaba kiri mu mabara y'ubururu cyandikijwe inyuguti ya pa mu mabara y'umweru.

Icyapa cyo ku muhanda gisobanura ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu. Hakaba n'ikindi cy'umugereka gisobanura y'uko imbere hari kamera, igenzura umuvuduko ngenderwaho mu muhanda,...

Iyi ni inyubako ngari ariko ikaba igeretse kabiri ikaba ari inyubako y'ubucuruzi. Iriho ibirahuri byiza cyane, n'imiryango imwe n'imwe ifunguye, n'imbuga ngari igaragaraho umuntu utambutse imbere yayo.

Aya ni amazu menshi atandukanye bigaragara ko ari mu mudugudu, bene aya mazu aba yarubatswe rimwe na rimwe ageretse inshuro imwe akaba ari ayo guturwamo n'umuryango urenze umwe.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Aha ni mu isangano ry'imihanda ibiri, iruhande rw'umuhanda umwe haparitse igare, igare rikunze kugendwaho ridatwara imizigo, hakurya y'umuhanda hari agashyamba karimo ibiti bigufi n'ibyatsi bigaragara ko ari mu gihuru.

Umuhanda wa kaburimbo mugari cyane, urimo ibinyabiziga bigenda mu byerekezo byombi, harimo imirongo ibiri irombereje; imirongo ibinyabiziga ntibiba byemerewe kuyirengaho cg se ngo biyigende hejuru.

Mu isangano ry'umuhanda. Ni ikorosi rigaragaza icyapa cyanditseho imibare igaragaza umuhanda nimero yawo. Ni kaja, gatandatu, umunane, umunane. Harimo umunyonzi wambukiranya umuhanda ukomeza imbere.

Aha ni mu isangano ry'imihanda. Imihanda y'ibyerekezo bibiri harimo abamotari bari ku mapikipiki bagenda harimo itara ryo ku muhanda hagati mu muhanda n'ahantu abanyamaguru bambukira murongo y'umweru.

Aha ni mu muhanda. N'ubwo iyi foto icuritse, ariko iragaragaza umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo. Umuhanda uteyemo umukindo n'indabyo hagati mu muhanda. Ushobora kuba ari umuhanda ugendwa mu byerekezo bibiri, bitandukanye.

Aha ni mu isangano ry'umuhanda hagaragara ibimenyetso byo ku muhanda bizwi nka feruje mu rurimi rw'igifaransa, ibimenyetso byo ku muhanda bifasha ibinyabiziga n'abakoresha umuhanda kumenya gutambuka mbere.

Ahantu imihanda ihurira imodoka iturutse mu muhanda umwe igiye gukata yinjira mu wundi abamotari hakurya uri kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, umumotari n'umugenzi bambaye ingofero zabugenewe zizwi ku izina rya kasike.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ukeye ufite isuku imeze neza iri ku rwego rwo hejuru. Umumotari uri kugenda mu muhanda ahetse umugenzi, umumotari yambaye ingofero yabugenewe, umugenzi nawe yambaye iyo ngofero yabugenewe izwi ku izina rya kasike.

Umuhanda wa kaburimbo usa neza cyane, ufite isuku n'ibiti biwukikije ku mpande zombi umugenzi w'umunyamaguru ari kugenda abisikana n'imodoka igenda mumuhanda

Aha ni umuhanda munini ugaragaza aho abanyamaguru banyura n'igikuta cyubakishije amabuye kiri iruhande rw'umuhanda aho abanyamaguru banyura. Ubusanzwe abanyamaguru banyura iruhande rw'umuhanda aho abanyamaguru banyura.